Umuntu uri kubaka. Kubaka ni umwuga mwiza cyane ushobora kugufasha kwiteza imbere n'umuryango wawe wose.

Abanyeshuri b'abasore bari kwiga umwuga wo gukanika. Gukanika ni umwuga mwiza cyane kuko ubeshejeho abatari bake, uzana amafaranga ku muntu wa wukoze neza.

Abanyeshuri bari mu ishuri, na mwarimu wabo ari kwigisha. Kwiga ni byiza cyane, kuko bituma umuntu amenya gutegura ejo he hazaza neza.

Abanyeshuri basa nkaho bari kwiga gukora umwuga wo gushushanya. Gushushanya ni umwuga mwiza cyane, ushobora gutanga amafaranga, umuntu agashobora kwibeshaho mu gihe cye kizaza.

Abantu bari gukora umwuga wo gukamera. Gukamera ni umwuga mwiza cyane, ushobora kuguteza imbere mu bintu byose ukora.

Abanyeshuri bari gukanika. Gukanika ni umwuga mwiza cyane, ushobora kuguteza imbere mu mirimo yindi igiye itandukanye ukabona amafaranga.

Abanyeshuri b'abasore, bari kwiga umwuga wo gukanika imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga. Gukanika ni umwuga ushobora kukubeshaho mu gihe wawukoze neza.

Ibyuma byifashishwa mu mwuga wo gukanika ibinyabiziga cyangwa se ibindi bintu bitandukanye. Ibyuma bifite akamaro kanini cyane.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga umwuga wo gukanika cyangwa se gutekenika, uwo mwuga ni mwiza cyane kuko wakubeshaho ukabona amafaranga.

Abanyeshuri babiri basa nk'aho biga umwuga wo kudoda. Umwuga wo kudoda ni mwiza cyane, kuko wagufasha mu kwiteza imbere.

Abanyeshuri biga umwuga wo gukanika, gukanika ni umwuga mwiza cyane, ushobora kukuzanira amafaranga mu gihe icyo ari cyose.

Abakozi basa nkaho ari abo mu gikoni, bashinzwe gutegura amafunguro. Umwuga wo gukora mu gikoni ni umwuga mwiza cyane, waguha amafaranga ukabasha kuyiteza imbere.

Abanyeshuri bari kwiga ibintu bisa na ho bijyanye n'ubugeni, uyu mwuga ukaba ushobora gutanga amafaranga, ku muntu uwukoze neza.

Abanyeshuri biga umwuga w'ubukanishi, gukanika ni byiza cyane kuko utabura akazi kandi warize.

Uruganda rukorerwamo amakeke cyangwa se imigati. Imigati ni myiza cyane, kuko igira intungamubiri nayo ku mubiri w'umuntu.

Abantu bari gucomeka moteri b'abanyeshuri, kwiga ni byiza cyane, kuko bifasha umuntu gutegura ejo he hazaza neza.

Abanyeshuri bari mu bushakashatsi, kwiga ni byiza cyane bifite akamaro kanini cyane, kuko bifasha gutegura ejo hawe hazaza neza.

Imashini iri kudoda umwenda. Kudoda ni umwuga mwiza cyane, wakubeshaho mu buryo bwose waba wifuza, iyo wawukoze neza.

Abanyeshuri bari kwiga. Kwiga ni umwuga mwiza cyane, abantu bahitamo bakiri bato, kugira ngo uzabafashe gucunga neza ejo habo hazaza.

Abantu bameze nkaho bakora ibintu by'amashusho l, umwuga ni mwiza cyane kuko uzana amafaranga igihe umuntu uwukora awukoze neza.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bari kwiga cyangwa se bari gukora ibizamini. Kwiga ni byiza cyane, kuko bifasha kumenya neza ejo hazaza hawe.

Abanyeshuri bameze nk'aho bari kwigira ku mashini. Kwiga ni byiza cyane kuko bifite akamaro kanini cyane mu gutegura ejo hawe hazaza heza.

Abasore babiri bari gukanika. Umwuga wo gukanika ni umwuga mwiza cyane ushobora kukubeshaho igihe icyaricyo cyose ukabona amafaranga.